Abantu baricaye, bose ni abanyeshuri bagiye bicaye bazengurutse ameza, barimo kwigishwa amasomo atandukanye.

Abana baricaye bari mu ishuri, imbere yabo hateretse ameza, gusa basa nkabakurikiye mwarimu n'ubwo harimo n'abandi bameze nk'abarangaye, aba ngaba bakaba ari abana biga mu mashuri abanza.

Abana bakoze uruziga bari imbere y'inyubako y'umuturage ndetse umugore umwe akaba ari kumwe nabo, ari kubafasha gukina ndetse no gusabana.

Abana bicaye bazengurutse ameza, bakaba bafite igikoresho barimo kwifashisha biga ndetse bigaragara ko ari abana bakiri batoya, bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse.

Abana benshi cyane biga mu mashuri abanza, barasutamye bose, bisa nkaho bari gukoreshwa siporo. Bikaba ari ibintu byiza bifasha ubuzima bwabo ndetse bikabafasha no mu myigire.

Abana bari kunywa igikoma bafite ibikombe bitandukanye, hari abafite ibifite ibara ry'iroza, hari n'abandi banywera mu by'icyatsi kibisi, hari umubyeyi urimo kugenda abaganiriza ndetse abitaho.

Abana bicaye mu ishuri bose bafite ibitabo bisa bifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse bigaragara ko barimo gusoma, bikaba ari ibintu bigaragara neza.

Abana baricaye bazengurutse ameza, uko bigaragara bari ku ishuri, gusa bari guhabwa amategeko n'amabwiriza agenga ikigo bitewe n'uko ari ubwa mbere bakigezemo.

Mwarimu arimo kwigisha abanyeshuri. Yabajyanye mu muhanda ndetse yabatembereje. Abo banyeshuri biga mu mashuri y'incuke, ni abana batoya. Bambaye impuzankano, bakoze uruziga, barimo gukora ibyo mwarimu ababwiye.

Udupapuro twanditseho imibare tukaba turi ahantu ku meza, bigaragara ko twifashishwa mu kwigisha abana batoya, biga mu mashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bifashisha bigisha abanyeshuri amasomo agiye atandukanye, bikaba ari ibintu byiza cyane kuko byorohereza umwarimu gusobanurira abanyeshuri.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ya blue ciel ndetse na kaki bari kuva ku ishuri, bakaba bageze mu muhanda ndetse bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nubwo bakiri batoya.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite irangi ry'umweru risize ku madirishya, ndetse imbere yaho hakaba hari icyapa kiri mu mbuga.

Icyapa cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariko icyo cyapa kikaba gifashwe n'ibyuma bine by'ubururu ndetse kikaba kigaragaza ko cyerekeza i Gatagara.

Inyubako nziza cyane y'ishuri bigaragara ko ari rishyashya ndetse ricyubakwa, ariko abana bakaba baratangiye kuryigiramo, bari imbere yaryo bari kureba ibipine biharunze, abo bana bambaye impuzankano y'amashuri abanza.

Umuhanda w'igitaka ariko ukirimo gukorwa nk'uko bigaragara, ariko ukaba uca munsi y'ikigo cy'amashuri, icyo kigo cy'amashuri gifite inyubako nziza cyane, ishakaje ibati ry'umutuku, kikagira n'izindi nyubako zisanzwe ndetse hakaba hari n'ikigega ku ruhande.

Inyubako yubatswe n'amatafari ahiye ndetse ikaba ifite ikibaho cyometse ku gikuta, harimo intebe za pipitire zishaje ndetse hakaba hari n'akabati mwarimu ashyiramo ibikoresho bye igisenge nacyo biragaragara ko gishaje.

Mu ishuri hari abana bagera muri bane. Barimo gukirana ndetse hari intebe ziticayemo umunyeshuri n'umwe. Bigaragara yuko abandi batashye.

Ibitabo bigera muri bine byose bikaba bisa ndetse byanditseho umubare gatatu, bigaragara yuko ari iby'Imibare bikaba byigirwamo n'abana biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza.

Ibiti birebire ubona ko biteye ahantu mu kigo cy'amashuri, ndetse bikaba ari byiza kuko bizana akayaga igihe abanyeshuri barimo kwiga, ntibitume bagira intege nkeya.

Abantu babiri, ni abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bari iruhande rw'idishi, iyo dishi ikaba irimo ibiryo mu by'ukuri birasa neza.

Ikibaho cy'umukara, cyanditseho amagambo y'umweru, yandikishijwe ingwa, akaba ari ikibaho bigaragara yuko kidaheruka gukorerwa isuku bitewe nuko cyatangiye kwandura.

Abana bicaye mu ishuri bakaba barimo kwiga, bigaragara yuko bari kwisubirishamo amasomo ndetse hakaba harimo n'abarangaye, bose biga mu mashuri abanza.

Umwana wicaye uri gusoma igitabo ariko akaba ashushanyije ku gikuta, icyo gikuta kikaba gisize irangi ry'umweru, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri.

Umwana w'umuhungu wambaye impuzankano y'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, yibereye hanze mu gihe abandi barimo kwiga, gusa uko bigaragara asa nk'ufite ibibazo bigiye bitandukanye.

Ikibuga cy'umupira w'intoki uzwi nka Basket, kikaba cyambaye ubusa, ni ukuvuga ko nta mukinnyi cyangwa umufana ukirimo, ahubwo hari ibikoresho byifashishwa muri uwo mukino gusa.

Ibitabo bitatu byose bisa ndetse bikaba byanditse ko ari ibya science, ni ibitabo byiza cyane bya kera abantu bigiragamo mu mwaka wa gatandatu ndetse n'uwa gatanu.

Inyubako nziza cyane ifite urukuta rwubatse rurerure. Ikaba ifite ibiti biteyemo imbere muri jaride ndetse hakaba harimo n'ibigori bikeya. Iyo nyubako ifite amabati y'ubururu. Bisa nkaho ari ikigo cy'amashuri.

Umunyeshuri arimo kwiga, ari gukoresha mudasobwa ndetse bigaragara ko yishimye rwose; bikaba ari ibintu bisa neza kuko Leta y'u Rwanda yagize uruhare mu guteza imbere uburezi.

Abana benshi bari ahantu mu kanyatsi barimo gukina, harimo umuntu umwe mukuru, uri kugenda abigisha udukino bakina, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane, bituma ubwonko bwabo bukanguka.

Ikibaho cy'umukara kimanitse ku gikuta cy'umweru, aha ngaha ni mu ishuri abanyeshuri bigiramo hari ukuboko ku muntu bigaragara ko ari umwarimu urimo kwereka abanyeshuri imibare yanditse kuri icyo kibaho.

Abana barimo kwicundaga ku myicundago yabagenewe, bigaragara ko bari mu kigo cy'amashuri ndetse icyo kigo kikaba gifite amashuri abanza n'ayisumbuye nk'uko bigaragazwa n'abanyeshuri bahari bambaye impuzankano zitandukanye.

Ishuri ryiza cyane ariko bigaragara ko rishaje, rikaba rikigishije ingufuri kuko selire yo yavuyemo kera, mu by'ukuri rikeneye kuvugururwa, gusa risize irangi ry'umweru kandi ryubakishije amatafari ahiye.

Taburo yanditseho imibare igiye itandukanye, iyi taburo ikaba ifite ibara ry'umukara, iri ku gikuta cyubakishijwe amatafari gusa iyi mibare yanditseho ni myinshi cyane, ubanza ari ituma umunyeshuri abasha gucangamuka.

Intebe zirunze mu cyumba bigaragara ko, hari aho abanyeshuri basomera. Hari ameza ateretseho ibitabo, ndetse hakaba hari n'ibindi bitabo biri mu mata etejeri.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, barimo kuzamura intoki zabo, bigaragara ko bari mu dukino, utu dukino tukaba tubafasha gutekereza neza ndetse no gusabana.

Tabulo y'umukara yometse ku gikuta, ikaba yandikishijeho ingwa ziri mu mabara y'umweru ndetse n'andi y'umutuku, ikaba yifashishwa n'umwarimu uri gutanga isomo.

Imashini ntoya y'abana, ikaba ari imashini yatanzwe na Leta y'u Rwanda igahabwa abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bajye bayifashisha mu myigire yabo, ikaba ari imashini yitezweho kuzazamura ubushobozi bw'umunyeshuri mutoya.

Inyubako nziza cyane ifite urukuta rwubakishije amatafari ariko ikaba isize irangi ry'umweru, hashushanyijeho urukuta amabara atandukanye agaragaza inyuguti zose zemewe z'Ikinyarwanda.

Ishuri ririmo intebe zicarwaho n'abanyeshuri. Ndetse bikaba bigaragara ko nta munyeshuri n'umwe urimo. Iri shuri rikaba rifite sima isize hasi.

Icyapa cyangwa se igipapuro kimanitse mu ishuri bigaragara yuko kiriho ibishushanyo by'imfashanyigisho abarimu bifashisha barimo kwigisha abanyeshuri.

Amashuri afite uruzitiro rwa senyenge, bigaragara ko ari amashuri ashaje, hakaba hari abanyeshuri imbere mu kigo bari imbere y'imiryango.

Abana bari ku ishuri, bambaye impuzankano, barimo barajya mu ishuri, ndetse bakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa bakeya. Aba bana bose harimo n'abahetse ibikapu birimo amakaye.

Abana babiri bambaye impuzankano y'ishuri bateruye ibiryo mu kabasi bagiye kurya mu masaha ya saa sita. Hari abandi babiri bari kwinjira mu ishuri, umwe afite icupa ry'amazi yo kunywa.

Abana bari mu kibuga, gusa iki kibuga nta cyatsi na kimwe kirimo. Mu by'ukuri ni ivumbi gusa. Bigaragara ko n'ikigo bigaho ari ikigo gifite amashuri adafite inzugi, gisakaje amategura. Mu by'ukuri iki kigo gikeneye ubuvugizi ndetse gikeneye kuvugururwa.

Ikigo cy'amashuri cyiza cyane, cyubatse ahantu ubona ko hitegeye kandi hitaruye umujyi, ni ikigo cy'abana bo mu mashuri abanza, kikaba gifite ubworozi bw'amatungo, ayo matungo yifashishwa mu kugaburira abana.

Ni mu kibuga cy'umupira w'intoki uzwi nka basket, ni hagati mu kigo cy'amashuri hari abagabo bambaye imipira y'umukara ndetse hari n'abana bari gutunguka bava mu ishuri, abandi basubirayo hari umwarimu uri kunguruka mu idirishya ndetse hari n'igiti kinini k'inganzamarumbo.

Intebe ziri mu ishuri ziteye neza ku murongo ariko hakaba nta munyeshuri n'umwe wicayeho ndetse bikaba bigaragara ko ari mu mugoroba, ahari batashye iwabo.

Umubyeyi bigaragara ko ari umwarimu, ari imbere y'abanyeshuri arimo kubigisha, afite igitabo yarambuye ukuboko akaba arimo kugenda ababwira ibyo arimo gusoma.

Uruzitiro rw'ibyuma by'imikwege rwegereye ahantu ku muhanda ndetse hari kugaragara inyubako z'amashuri,

Abana bicaye munsi y'igiti bose bambaye impuzankano ndetse bigaragara ko ari abanyeshuri, hakaba hari n'abahagaze begamiye ibiti imbere yabo hari umuyobozi w'umugore urimo kubaganiriza.

Imodoka bigaragara yuko ari itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hari kwinjiramo abana babiri bahetse ibicapu bagiye kwiga, hari inyubako igaragara ifite irangi ry'umweru n'amadirishya meza.

Ni mu ishuri ni muri class, hari ikibaho cyanditseho cyandikishijwe ingwa z'umweru, hari igikuta gifite ibara risa umutuku, hari sima yanduye cyane bigaragara ko iki kigo gishaje.

Taburo bigaragara yuko zifite ibara ry'icyatsi kibisi zikaba zegeze ku gikuta imbere ahantu mu ishuri ndetse muri iryo shuri hari intebe zirimo abanyeshuri bicaraho n'ameza bakoresha bashyiraho ibitabo.

Abanyeshuri biganjemo ab'abahungu. Bafite ibikoresho by'ishuri, bamwe bari kumwe na ba se. Abandi bari kuvugira ku materefone, bakaba bitegura gusubira ku ishuri nyuma y'igihe kirekire bamaze bari mu kiruhuko.

Abana bicaye ahantu mu shuri barimo gukora ikizamini, bose barunamye bari kureba mu makaye yabo bafite amakaramu barimo kwandika. Harimo umwe w'umukobwa wambaye umupira w'ishuri akaba yambaye n'amarinete.

Icyapa kinini cyane, kiri ku muryango, uwo muryango nawo ukaba ufite urugi rw'umweru, rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, uru rugi rukaba rwinjira mu kigo cy'amashuri, ndetse kikaba giherereye ku Karubanda.

Abantu bigaragara ko ari abakinnyi b'umupira w'amaguru, bahagaze ku murongo mu kibuga rwagati ndetse hari umuntu uri imbere yabo, ahari n'umusifuzi ugiye gusifura uwo mukino ugiye kubahuza.

Abana baricaye bari mu kizamini, bigaragara yuko bose bazi ibyo barimo gukora kuko nta n'umwe utarimo kwandika, yewe nta n'uri kureba mu gisenge, imbere yabo hari umwarimu ubahagarikiye.

Icyapa kiriho amagambo y'Icyongereza agaragaza ko ari ubutabire cyangwa se ishuri ry'ubutabire mu Rwanda ndetse kikaba ngo ari igitabo cy'umunyeshuri wiga mu wa kabiri.

Ikibuga cya basiketl kiri ahantu hegereye ishyamba. Ndetse harimo abakinnyi mu kibuga, gusa bigaragara ko barimo kwishyushya. Kuko nta mufana n'umwe uhari, ngo tuvuge ngo bari mu mukino w'irushanwa.

Abana bicaye mu ishuri. Ku meza hateretse za mudasobwa. Bigaragara ko bategereje mwarimu, ngo aze abigishe. Ni ibintu byiza cyane ndetse birashimishije.

Umuryango munini cyane ufite urugi rutukura hejuru hari ahantu hasa umweru handitseho amagambo y'impine ndetse hakaba hari n'abana bari imbere y'uwo muryango bigaragara ko bari guturuka mu kigo bambuka umuhanda.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari iy'ikigo cy'amashuri, ni inyubako ifite iruhande rwayo jaride iteyemo ibiti bibiri biteganye ndetse ikaba ifite n'agahanda gatambuka iruhande rwa jaride.

Umuntu w'umugore ahagaze imbere y'abanyeshuri, yambaye ijire. Yambaye inkweto z'umweru, yambaye ipantaro y'umukara. Imbere ye hari abanyeshuri benshi, abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Gusa harimo umwe ufite indangururamajwi uri kubaza ikibazo.

Inyubako bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, iteyemo igiti cya avoka, hagati muri jaride ndetse hakaba hashinze idarapo mu kibuga, ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bazengurutse ikibuga ndetse bakaba bahagaze abandi bicaye ku ntebe, bigaragara ko hari umukino barimo kwitegereza, by'umwihariko bambaye impuzankano.

Abana baricaye bararambije, ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, ndetse abenshi muri bo bambaye inkweto za bodaboda.

Inyubako y'ishuri risagaje amabati atukura, rifite imireko itukura, inzugi ziratukura, ikaba ikirimo kubakwa imirimo itararangira, bigaragara yuko ifite n'ubwiherero hafi imbere yayo.

Abantu barahagaze, bose barimo kungurana ibitekerezo, ku bigendanye n'uburezi bwabasha guteza imbere umwana uwo ari we wese by'umwihariko yifashishije ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga mu myigire ye.

Imodoka y'itoyota iparitse imbere y'inyubako, iyo nyubako ifite imiryango myinshi cyane isize amabara y'umukara, hari ibirahure byiza cyane by'umweru, hari n'amayesikariye azamuka yinjira muri iyo nyubako.

Siporo rusange ni igikorwa cyashyizweho na Leta y' u Rwanda igashishikariza abaturage gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, gusa ibigo by'amashuri bimwe na bimwe na byo bigira umunsi wahariwe gukora siporo.

Taburo iri ku gikuta cy'ishuri ikaba yanditseho amagambo y'umweru ari mu mbonerahamwe, bigaragara ko ari ingengabihe abarimu bifashisha bagiye kwigisha.

Imodoka ebyiri zirimo kugenda mu muhanda, iruhande rwazo mu kayira k'abagenzi harimo abanyeshuri benshi bavuye ku ishuri bambaye impuzankano y'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bose bari imbere y'ibiro by'umuyobozi bazindutse kare cyane, baje kwiyandikisha kubera ko ari mu itangira ry'umwaka w'amashuri.

Inyubako y'amashuri bigaragara ko akiri mashyashya. Ni inyubako igeretse inshuro imwe ndetse ikaba ari inyubako ifite ikigega cyiza cyane cy'umukara, kigezweho kibika amazi.

Umuntu bigaragara ko ashushanyije mu ifoto ari gutunga ikiganza ku bandi babiri b'abagore bafite imisatsi ndetse imbere yabo hari etajeri imanitsemo ibitabo by'Imibare.

Umuntu w'umukobwa ari mu muhanda avuye ku ishuri hari abandi babiri bari mu kayira k'abagenzi ndetse bageze ahantu hari imikindo ndetse hejuru yabo hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ritukura ndetse n'umukara. Icyo cyapa gisobanura ko imbere hari ikigo cy'amashuri, ndetse icyo kigo cy'amashuri kikaba giherereye ku Karubanda.

Icyapa kinini kigari cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ishuri ryiga ndetse rikaba rigijwe n'ibice bitandukanye aho biga amasomo arimo computer ndetse n'ubukungu n'imibare.

Inyubako nziza cyane isa nkaho ari ishuri, irimo kwinjirwamo n'abayobozi batandukanye, ndetse hari n'abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano y'umweru, amasogisi y'umweru, ndetse n'amajipo ya kake mu bantu bari kwinjira harimo n'umwera w'umugore.

Intebe za pipitire ni intebe zicarwaho n'abanyeshuri bose hafi mu gihugu, kuko nta kigo na kimwe kidafite bene ubwo bwoko.

Taburo iriho amagambo yandikishije ingwa, hari n'ibyapa bihamanitse bishushanyijeho amashusho y'imfashanyigisho.

Abana babiri bambaye impuzankano y'umupira w'ishuri ndetse n'amajipo ya kaki, harimo uwitandiye agatambaro k'umweru mu mutwe, barimo kugenda bakaba bageze munsi y'inyubako isize irange risa n'ivu.

Ameza ateretse imbere ahantu hari inyubako bigaragara ko ari mu ishuri, ibikuta byayo bisize amarangi y'umweru, hari n'ikibaho cy'umweru kimanitse ku gikuta.

Umwarimu atunze inkoni ku gikuta, icyo gikuta atunzeho inkoni hariho igipapuro gitatseho kikaba gishushanyijeho imfashanyigisho ziri gufasha abanyeshuri arimo kwigisha.

Ni mu itangira ry'amashuri, abana bahetse ibikapu abandi bari kubikurura, bamwe baherekejwe n'ababyeyi babo bari kwegera imodoka yitwa Litiko bari kubikamo za matela zabo, bagiye ku ishuri gukurikirana amasomo.

Leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage gutangira abana babo amafaranga bazajya bifashisha bafata ifunguro ryo kurya ku ishuri, bityo bikabafasha mu myigire yabo. Ni yo mpamvu bagaburirwa indyo yuzuye.

Abantu bari mu nzira y'imodoka, bakaba ari abanyeshuri bose bafite ibikapu, za matela ndetse bambaye n'impuzankano z'ibigo bigaho, bigaragara ko bagiye gufata imodoka ngo ibajyane iwabo.

Inyubako iri ahantu ku muhanda ariko ikaba ifite ibiti biri mu tujaride, bizana umuyaga n'amahumbezi, hari udutebe two kwicaraho ndetse hakaba hari n'umuhanda w'amabuye unyura iruhande rw'ako kajaride.

Abana b'abanyeshuri bari mu byiciro bitandukanye, aho bamwe bagenda abandi basubirayo, gusa uko bigaragara ni ikigo cy'amashuri cyubatswe neza mu buryo bugezweho, imbere yacyo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ni mu nyubako inyubako nziza cyane ikaba ifitemo imbere amayetajeri menshi cyane arunzemo ibitabo, hari abanyeshuri bicaye barimo gusoma ibitabo, imbere yabo hari ameza ndetse buri muntu wese ashobora kuza akisomera.

Inyubako nziza cyane irimo amarido meza ahenze ndetse ikaba ifite amarangi asa n'ivu ndetse n'andi y'umweru. Ni inyubako nawe wakiberamo.

Urupapuro rwanditseho amagambo ndetse rukaba rusinyeho ruteyeho na kashe, rumanitse ahantu mu nyubako mo imbere, bigaragara ko hari ibyo rusobanura.

Inzu yagenewe abanyeshuri biga bakora ubushakashatsi, ikaba yanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse hakaba handitseho n'ijambo rimwe ry'impine risobanura Kaminuza y'u Rwanda.

Ikigo cy'ishuri kirimo icyumba cyiza cyane, icyo cyumba kikaba kirimo umunyeshuri urimo guhaguruka mu ntebe, hakaba hari n'undi wicaye mu ntebe imbere hafi y'umuryango ukirimo kwiga.

Matera yanitse ahantu ku gasima, ako gasima kakaba gateretse, mu mbuga isa n'akayira. Ako kayira kakaba gashashemo amapave. Imbere hari umukobwa, wambaye igitenge uri guhinguka.

Ni mu nyubako mo imbere, harimo ibikoresho bitandukanye, gusa uko bigaragara byifashishwa mu buvuzi, nyamara si kwa muganga, ahubwo ni aho abanyeshuri baza kwigira amasomo agendanye n'ubuganga.

Inyubako nziza ifite amayesikaye azamuka ayijyaho, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa, ariko ikaba ifite ahantu hari imbuga nziza cyane inyuma yayo, hakaba hari n'amatiyo ajyana amazi mo imbere.

Abantu b'inzobere bahuriye mu nama, baricaye bari kwiga ku bibazo bitandukanye, byugarije abaturage ndetse buri wese afite mudasobwa imbere ye, arimo no kumva ibyo uri imbere ubayoboye arimo kubabwira.

Abantu bicaye mu cyumba, icyo cyumba bigaragara ko kiri gukorerwamo inama, imbere hari abazungu babiri hari n'umwiraburakazi urimo kuvuga, abicaye bose barakurikiye ndetse bigaragara ko barimo kwandika ibyo bumva.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi asa nk'ibara ry'ivu. Iruhande rwaho hari utubuye tw'umukara n'umweru twubatse neza, hari akajaride gafite ubwatsi butoshye ndetse hari n'ikibuga cy'umupira w'intoki wa volley.

Umuntu aricaye, yicaye mu biro ndetse aho yicaye hari ibyapa bigaragaza yuko ari muri kaminuza y'u Rwanda. By'umwihariko aho yicaye hari intebe zitandukanye zo kwicaraho hari ameza ndetse ku meza hari mudasobwa.

Ni mu nyubako nziza cyane ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru mo hasi hashashe amakaro, ayo makaro ateretseho intebe zifite amabara atandukanye, harimo n'ameza ndetse bigaragara ko ari mu nyubako y'ikigo k'ishuri.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, akaba asobanura ko ari Kaminuza y'Abagatolike, ikaba iherereye ku Itaba.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari Kiliziya cyangwa se urusengero rw'abakatolike, ikaba yubatse ahantu heza cyane hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye.

Intebe nziza cyane ziteye mu cyumba ndetse kikaba kirimo n'ameza, bigaragara ko ari aho abanyeshuri bigira mu gihe basubiramo amasomo yabo.

Inyubako bigaragara yuko ari inyubako nziza cyane ndetse ikaba yubatswe mu buryo bwa konoshi, ikaba ifite akantu ka kameza gateretse imbere y'umuryango.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani bwiza burimo ibiti, indabo ndetse n'urucaca rwiza, hakaba ari ahantu heza cyane wafatira ifoto y'urwibutso.

Akayira gasashemo amapave kanyura impande ebyiri zitandukanye ndetse bigaragara ko hari utujaride turimo utwatsi dutoshye, hari n'ikigega kinini kirekire kizamuka hejuru mu kirere.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ni benshi cyane, gusa aho bicaye bigaragara ko atari aho bigira ahubwo ni sale yagenewe inama muri makeya ni aho bahurira nk'ikigo cyose.

Inyubako bigaragara ko ari nini cyane ndetse ikaba ifite inkingi, izo nkingi zikaba zisize ibara ry'umweru, hasi hasize sima gusa nkurikije uko mbibona, ni inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Inyubako nziza cyane yubatswe ahantu ku muhanda ndetse hakaba hari utujaride turimo indabo nziza cyane, iruhande rw'ako gahanda k'amabuye gakomeza, izi nyubako zose zifite amabara atandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite icyumba kirimo uburiri, hashashemo amashuka meza cyane ndetse hari akabati karimo inkweto hakaba n'akandi karambitseho ibikapu hejuru.

Inyubako nziza cyane isize irange ry'umweru, imbere yayo hakaba hari urucaca ndetse inyuma yayo hakaba hari ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri icyo kigo.

Ibitabo bibitse muri etajere. Iyo etajere ikaba ikoze mu biti bigaragara yuko ari ibitabo byinshi cyane by'amoko atandukanye ndetse byigirwamo n'abanyeshuri.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi cyane zicarwamo n'abanyeshuri, kuri buri ntebe hari mudasobwa yifashishwa n'umunyeshuri, imbere hari ikibaho cy'umweru.

Ni mu nyubako mo imbere hari ibikoresho bitandukanye, gusa ibyo bikoresho biri mu mabara atandukanye ndetse no mu bwoko butandukanye, byose bikaba byifashishwa mu burezi, aho bifasha abanyeshuri biga ibigendanye n'ubuganga.

Abana baricaye mu ishuri barimo kwiga, barakurikiye bari kureba imbere, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye, ndetse hari na za camera zifashishwa mu gufata amashusho, hari na mudasobwa iri ku meza.

Abantu babiri bakora amasuku, barimo gukora muri jardin, umwe ahagaze hejuru iruhande rwa jardin, undi afite umukubuzo arimo kugenda akubura mu muhanda winjira ku nyubako.

Aantu baricaye bari mu nama ndetse bari mu mahugurwa bose bafite mudasobwa imbere yabo, mu by'ukuri buri wese afite ikaramu arimo kwandika ndetse buri muntu wese imbere ye ku ruhande hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ikaba yarubatswe kera cyane, ndetse imbere yayo hakaba hari indi nyubako yubakishije amabuye ndetse n'amatafari ahiye, hari agahanda kazerekezaho.

Ikigo k'igihugu gishinzwe Ubumenyingiro mu Rwanda, cyashyizeho gahunda zitandukanye mu kigo cyacyo kitwa IPRC, aho bashyizeho gahunda yo kwiga umuntu akaminuza mu bijyanye n'imyuga itandukanye.

Abana bari mu ishuri barimo kwiga gusa nta nifomu bambaye cyangwa se impuzankano, bamwe barasutse abandi bafite umusatsi, mu by'ukuri icyo bishatse kuvuga ni uko ari abanyeshuri bakuze bo muri kaminuza.

Akazu kazamuye kubatse ahantu bigaragara ko ari muri jaride. Ndetse hakaba hahinguka inyubako bigaragara ko ari inyubako z'amashuri cyangwa se ikindi kintu runaka cyihakorerwa.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu kikaba gishinze imbere y'inyubako ndetse hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza y'impine. Ayo magambo yandikishije ibara ry'umweru akaba asobanura ko ari aho abanyeshuri bo muri kaminuza biga iby'ubuganga bigira.

Urukarabiro rwiza cyane bigaragara ko ari urwa kijyambere, rukaba rwubakishije amakaro ndetse rukaba ruri hafi y'inyubako.

Insakazamashusho imanitse mu ishuri, ikaba yifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kubona ibyo mwarimu arimo kugenda abigisha, abikuye muri mudasobwa.

Imodoka yanditseho kaminuza y'u Rwanda. Irimo kugenda ndetse irimo abanyeshuri, bagiye gukora urugendo shuri. Bigaragara neza, ndetse birashimishije kubona kaminuza ikora ibintu nk'ibyo.

Igitanda cyiza cyane gisasheho ishuka y'ubururu ndetse hakaba hari n'umusego urambitse hejuru, biragaragara ko ari mu cyumba abantu baryamamo.

Inyubako nziza cyane ishashemo ibitanda bibiri, bigaragara yuko byose biriho amashuka asa ndetse hari akabati, hari n'ahandi hantu hari intebe yo kwicarwaho.

Umugabo bigaragara ko yaje muri resitora, akaba amaze kwaruza ibiryo byo kurya ku meza asa neza cyane hateretse fanta yo kunywa ndetse hakaba hari na salade.

Akajaride keza cyane, karimo indabo zitarakura cyane, kakaba karimo n'urucaca rwiza, hirya hari urukuta ruhinguka, rwanditseho amagambo y'impine, asobanura kaminuza y'u Rwanda.

Igitanda gishasheho imyenda myiza cyane y'amashuka, afite amabara atandukanye, ay'umukara ndetse n'ay'umweru n'umutuku, hejuru hakaba hari ikindi na cyo kimeze uko.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari inyubako y'igorofa ndetse ikaba ifite uruzitiro ahagana hasi ruzitijwe ibyuma, iyi nyubako ni nziza cyane, ifite ibirahure byiza.

Inyubako nziza cyane bigaragara yuko ifite urubaraza imbere yayo, hakaba hari umuhanda mugari ushashemo amapave ndetse ukaba uri uruhande rw'akajaride, ako kajaride karimo utwatsi dutoya dutoshye.

Ni mu ishyamba haragaragara inyubako iri ahantu hirengeye. Ahari wasanga ari inyubako abantu baza gusura ikaba ifite nk'amateka cyangwa ibindi bintu by'umuco yaba ibitse.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi asa nk'ivu, ndetse n'ayandi y'umweru. Imbere yayo hari igiti cyiza cyane cy'inganzamarumbo kiri muri jalide. Hakaba hari n'akararabo gakase neza, hakaba hari utunyatsi dutoshye. Mu by'ukuri ni inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Icyumba kiza cyane bisa nkaho ari icyumba cyo mu ishuri, gifitemo intebe nziza zifite amabara atandukanye hari iz'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi kibisi, hari ameza yifashishwa mu kurambikaho ibikoresho bitandukanye nk'amakaye n'amakaramu na mudasobwa.

Abantu bari muri resitora ndetse barimo kwarura ibiryo, hari umukiriya utegereje gufata icyo kurya ndetse akaba ari kugenda ababwira ibyo bashyiraho.

Inyubako nziza cyane ifite amameza menshi ndetse bigaragara ko ari ahantu abanyeshuri bigira ariko bakaba bahigira mu buryo bwo gukora practice.

Abana baricaye bari mu ishuri barimo kwiga hanyuma bakaba bafite insakazamashusho yifashishwa kugira ngo n'abari inyuma bahabone, ibi bikaba ari byiza cyane.

Inyubako ya etaje, ikaba ari inyubako ifite amarangi meza cyane. Imbere yayo hari indi ingana nkayo biteye kimwe ndetse hagati hanyuramo umwanya munini.

Abantu bigaragara ko ari abanyeshuri barimo gusubira mu masomo yabo ndetse hari Ikirangantego cya Kaminuza y'u Rwanda. Iyi nyubako barimo isize amabara y'umweru ndetse n'andi ajya gusa n'ivu.

Inyubako nziza cyane bisa nkaho ari inyubako y'amashuri, mu imbere muri yo hari intebe ziteye neza, ndetse hari igipande cyicayemo abanyeshuri, hakaba n'umuntu uhagaze imbere yabo bisa nkaho arimo kubigisha.